Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi ndetse yambaye ikoti na karuvati n'ishati y'umweru, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ijambo Nyagatare.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye mu itente imbere yabo hari ameza ateretseho ikayi, aya meza ariho igitambaro cy'umweru ndetse hateretseho amacupa abiri y'amazi.

Abantu benshi bicaye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru imbere yabo hari umuntu uri kubabwira imbere ye hari akabati karekare ndetse iruhande rwabo hari icyapa kihamanitse.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara ndetse bari mu nama. Imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bane bicaye, abirabura batatu ndetse n'umuzungu umwe, bicaye ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amakayi n'amacupa y'amazi y'inyange.

Inzu iberamo inama harimo abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, iyi nyubako irimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Abantu bicaye mu nama, biganjemo abambaye amakoti ndetse na karuvati, imbere yabo hari ameza meza, hateretse amacupa y'amazi, ndetse imbere yabo bafite amakaye.

Mu nama, imbere yabo hari ameza ndetse ateretseho amacupa y'amazi, iruhande hari umugabo wicaye ufite telefoni mu ntoki ze, yambaye ikoti ndetse na marinete.

Abantu batatu bicaye, abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Kigali yacu ndetse aho bicaye hari icupa ry'amazi ry'inyange ndetse n'indangururamajwi imbere yabo.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura imbere yabo hari ameza ndetse ateretseho utuntu tw'umweru n'amazi y'inyange imbere yabo hari umugore uhahagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu bicaye mu nama inyuma yabo hari ibyapa byamamaza byanditseho Kigali yacu, aba bantu imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ndetse n'indangururamajwi ziteretse ku meza.

Umugore w'umwirabura wambaye ikanzu y'umukara, afite indangururamajwi mu kiganza cye ndetse imbere ye hari abantu bicaye ari kubwira. Urebye iruhande rwe hari ikibaho kiriho amagambo atandukanye, atagaragara neza ndetse munsi yacyo hari intebe zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye mu nama ni benshi, imbere yabo hari abandi batanu bahicaye ndetse bicaye ku ntebe z'imyeru, inyuma yabo hari ibyapa bifite amashusho yi'icyatsi.

Abantu bicaye mu nama, bicaye ku ntebe ziriho imyenda y'imyeru ndetse imbere yabo hateretse ameza afite igitambaro cy'umukara ndetse ateretseho amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu nama harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere yabo hari ameza ariho impapuro nyinshi ndetse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye ndetse bambaye amakarita mu ijosi, imbere hari umugabo wambaye ishati ya kaki ndetse yambaye amarineti ndetse ku meza ye hateretse icupa ry'amazi.

Abantu bane bicaye abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bose baritonze, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru. Bahanze amaso umugore uhagaze ufite indangururamajwi ndetse ari kuvuga.

Abantu bicaye mu nama, biganjemo abambaye imyenda y'imyeru, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umukara ndetse ariho umubare gatanu, hariho amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye mu nama, ni benshi. Harimo umusirikare wambaye imyenda y'akazi. Imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'icyatsi ndetse n'umuhondo. Hateretseho ji z'inyange ndetse n'amazi.

Abantu bicaye mu nama imbere yabo hari indangururamajwi ziteretse ku meza afite ibara ritukura ndetse n'umukara, aba bantu bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hateretse amazi y'Inyange.

Abagabo bicaye mu nama ndetse harimo umusirikare wambaye imyenda y'akazi n'umudaso wambaye imyenda y'icyatsi iriho idarapo ry'igihugu ku kaboko k'ibumoso. Imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye bambaye imipira isa, hari ufite terefoni mu ntoki ndetse n'igipapuro, inyuma ye hari undi ufashe terefone mu ntoki ndetse n'undi wambaye umupira udasa n'iyabandi.

Abantu bicaye bari mu nama, harimo abazungu ndetse n'abirabura benshi, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye bari mu nama imbere yabo hari ameza ndetse aya meza afite igitambaro cy'umweru, kuri aya meza hateretseho amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye ndetse bari mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse bafite mudasobwa imbere yabo, bicaye ahantu higanje amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu bicaye mu nama, bari kuganira ndetse imbere yabo hari ameza ariho amakayi ndetse n'amacupa y'amazi. Aba bantu biganjemo abazungu ndetse harimo n'abirabura.

Abantu bicaye mu bucaca ni benshi, imbere yabo hari amatente ahateye cyangwa amahema afite ibara ry'umweru ndetse yicayemo nayo abantu.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, harimo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko, bose bafite amakayi imbere yabo ndetse n'amakaramu.

Abantu bicaye mu nama, harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi y'Inyange ndetse bamwe imbere yabo hateretse mudasobwa. Inyuma hari icyapa cya Rwanda Reveni Otoriti.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi y'Inyange ndetse n'impapuro z'umweru. Imbere yabo hari televiziyo irimo amagambo ndetse iruhande hari ibyapa byamamaza biriho idapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi bafite icyapa cyamamaza kiriho ibirango bya RBC. Ni ikigo gishinzwe ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hari umu polisi wambaye imyenda y'akazi ndetse yanditseho polisi irimo amabara y'icyatsi.

Abantu bari mu nama. Bose baricaye ndetse imbere yabo hari mudasobwa. Abandi imbere y'aho hari amakayi ndetse n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye bari mu mahugurwa. Baritonze barakurikiye, bambaye imipira isa y'umukara ndetse ifite ibirango by'idarapo ry'u Rwanda. Imbere yabo hari agacupa k'amazi.

Abantu bicaye harimo umwe uri kwandika yambaye amarineti ndetse afite ibisuko by'umukara, yambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, hari undi wicaye iruhande rwe uri kumureba w'umusore.

Abagabo batatu bicaye ndetse n'umwe uhagaze, bambaye amakoti ndetse uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse abicaye imbere y'abo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu benshi bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, imbere hariho ibitambaro bifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Izi ntebe bicayeho zifite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe z'imyeru ndetse imbere yabo hari amacupa y'amazi n'amakaye, hari umugabo umwe uhagaze wambaye ishati iciyemo imirongo itukura ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu batatu bicaye ni abagore babiri ndetse n'umugabo, aba bagore umwe yambaye amarineti n'imyenda itukura, imbere yabo hari ameza ateretseho amakayi ndetse ariho indangururamajwi n'amacupa y'amazi y'inyange.

Umugore w'umwirabura, ufite inyinya ndetse n'agasatsi gakeya. Yambaye ishati irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara. Akaboko ke k'iburyo gafashe indangururamajwi, akandi gakoze ku meza. Arahagaze, ari kuvuga.

Abantu bicaye biganjemo abagore, imbere yabo hari ameza afite ibitambaro by'icyatsi ndetse ateretseho amazi y'Inyange.

Abantu bicaye mu nama, harimo abambaye amakoti ndetse imbere yabo hari ameza bateretseho ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange ndetse iyi nyubako bicayemo iri kwaka amatara.

Abantu bicaye, bose bazengurutse ameza ndetse bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'impapuro n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara ndetse bicaye ku meza barebana. Aya meza afite ibara rya shokora ndetse ateretseho amazi y'inyange na ji.

Abantu bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru, ndetse aya meza ariho amacupa y'amazi y'inyange.

Abagabo bicaye ndetse umwe yambaye amarinete. Bicaye ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa. Izi mudasobwa zirasa.

Abantu bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, bicaye barebana, bamwe ku ruhande rumwe, abandi ku rundi, ndetse imbere yabo hari mudasobwa, ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu batatu bicaye umwe yambaye amarineti ndetse yambaye ikanzu itukura, undi yambaye ikanzu ya shokora irimo utudomodomo ndetse afashe bike mu ntoki ze undi yambaye umupira wa racositi afashe telefoni mu ntoki ze.

Abantu benshi bahagaze, biganjemo abambaye imyenda y'imikara, harimo abagore n'abagabo, ndetse bahagaze ku ma esikariye, inyuma yaho hari inzu ifite ibirahuri byiza.

Umugabo wambaye amarineti, ikoti ndetse na karuvati n'ishati y'umweru. Yambaye amarineti. Intoki ze zirafatanye. Imbere ye hari amazi ateretse y'inyange.

Abantu barindwi batatu bicaye ndetse n'abandi bane bahagaze, inyuma yabo hari ibyapa byamamaza biriho idarapo ry'u Rwanda rifite amabara atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu batatu bahagaze. Umwe ni umupolisi yambaye imyenda y'akazi ndetse yambaye n'amarineti, undi ni umugore uhagaze hagati wambaye amarineti ndetse n'umupira w'umweru iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe zikoze mu biti. Imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru ndetse imbere yabo, hari umugabo wambaye ishati iciye amaboko uri kubabwira. Bicaye mu nzu irimo ibitambaro bifite amarangi y'ubururu, umuhondo.

Abantu bicaye, biganjemo abakobwa n'abahungu, bicaye mu nyubako ifite irangi ry'umweru ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, imbere yabo hari umugabo uhahagaze, wambaye umupira ufite ibara ry'umukara n'umweru, amanitse akaboko.

Icyapa cya RURA kiburira cyangwa kigira inama cyanditseho amagambo agira ati "wakora iki mu gihe habayeho guhita cyangwa gusohoka kwa gaze"?

Abagabo babiri bicaye umwe wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku urimo imirongo y'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho telefone z'amoko atandukanye.

Icyapa cya rura cyerekana ko umuntu atagomba gutanga amafaranga mu ntoki mu gihe agiye kwinjira muri bisi ahubwo agomba kuyashyira ku ikarita ndetse agakoza ku cyuma cyabugenewe. iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati: ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe.

Ibiganza bibiri bitagaragara nyirabyo, ikiganza cy'iburyo gifashe telefoni iri kwaka, ikiganza cy'iburyo gikoze kuri mudasobwa nayo iri kwaka ndetse iyi mudasobwa iteretse ku meza.

Icyapa cyamamaza, iki cyapa ni icy'Irembo, cyiganje mu mabara y'ubururu, hariho intebe yicayeho umukobwa uri guseka, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, hejuru ye handitseho ijambo rigira riti: "Byikorere."

Abantu bicaye. Babiri bari kurebana, ndetse n'abandi bari kurebana. Inyuma yabo hari umuntu uhagaze, wambaye umupira utukura. Ndetse hari ibitabo byinshi.

Icyapa cyamamaza. Iki cyapa ni icya Rwanda Revenue. Cyanditseho ijambo rigira riti: "Tengamara na TVA." Iki cyapa kiriho terefone, iriho imibare bakanda. Akanyenyeri, umunani, zeru, zeru, urwego. Aha ngaha uba ushobora gutanga umusoro wawe.

Icyapa cya repubulika y'u Rwanda kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda. Cyanditseho komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta.

Umunara muremure ufite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, uyu munara uriho amatara ndetse hagaragara ikirere gifite ubururu bwinshi.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse wambaye ishati y'umweru iciye amaboko, mu ntoki ze harimo terefone ifite ibara ry'umweru. Inyuma ye hari inzu iriho ibyapa bya Tekino.

Abantu bicaye mu nama, bicaye barebana ku muzenguruko wa kare, ndetse bambaye imipira y'imikara yanditseho n'inyuguti ziri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Icyapa cyamamaza, kiriho umukobwa uri guseka ufite terefone mu ntoki ze. Yambaye ikanzu y'umweru iciye amaboko. Imbere ye hari mudasobwa. iki cyapa cyanditseho tengamara.

Icyapa cyamamaza serivisi z'irembo iki cyapa cyiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo agira ati serivisi nshya ku rubuga irembo gove. Aya magambo yandikishije ibara ry'ubururu.

Icyapa cya Rwanda Revenue Authority. Iki cyapa kiriho indege ya Rwandair ndetse n'abanyeshuri b'abana batoya. Cyanditseho amagambo agira ati: "Gutangiza ku mugaragaro ukwezi ko gushimira abasora."

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umuhondo, aje aho bavunjira hariho ibyapa byiganjemo ibifite ubururu ndetse n'umuhondo.

Umuntu ugiye kwinjira mu muryango, uyu muryango urafunguye iyi nzu ifite irangi ry'umuhondo ndetse hejuru y'umuryango hari icyapa cyanditseho irembo.

Imodoka yanditseho ijambo toyota rifite ibara ry'umweru, toyota byandikishije ibara ritukura. iyi modoka itwaye ibyuma inyuma ndetse iruhande rw'umuhanda hateye insina ndetse hari igipangu bari kubaka kitaruzura.

Abantu bahagaze bambaye udupfukamunwa mu ntoki zabo bafashe mudasobwa zisa ndetse umwe ari kureba muri terefone yambaye na ekuteri.

Abantu batanu bambaye udupfukamunwa bose bafite mudasobwa mu ntoki zabo ndetse bari kugenda mu muhanda aba harimo umwe wambaye ingofero.

Icyapa cyamamaza. Iki cyapa ni icy'irembo. Kiragira kiti, serivisi nshya ku rubuga rw'irembo govu. Iki cyapa kirerereka abantu y'uko, ushobora kubona serivisi ushaka utiriwe ujye gutonda umurongo.

Amakoroni abiri ahagaze yegeranye, ahujwe n'ibyuma ndetse aya makoroni anyuzeho insinga nyinshi zitanga umuriro mu byerekezo bitandukanye. Iruhande rwaho hateye ibiti.

Umuhanda wubakishije amabuye, ufite rigore iruhande rwayo ndetse hateye ubusitani bw'ubucaca. Iruhande rw'ubucaca hari ibipangu bihubatse ndetse hateye ipoto ry'igiti iriho insinga nyinshi.

Inzu igaragara ku gice cyo hejuru, ndetse ifite igipangu gifite ibara ry'ubururu, inyuma hari ipoto rirerire, ririho insinga nyinshi, zitwara amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara igice kimwe cy'umuhanda, iruhande rw'umuhanda hari icyapa kitagaragara neza ndetse iruhande rw'iki cyapa hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse iki gipangu kiriho ibyatsi.

Icyapa giteye ku muhanda gifite ishusho y'ubururu ndetse gishushanyijemo imodoka ndetse n'inyuguti P bisobanuye aho imodoka zihagarara. Hari kugenda umuntu wambaye imyenda y'imikara.

Ibyuma birebire byitwa ipoto cyangwa ikoroni. Ibi ni ibyuma bishingwa ahantu hahanamye kugira ngo bibashe kunyuzwaho insinga z'amashanyarazi.

Umutaka wa MTN w'umuhondo, iruhande rwawo hari imodoka nini ihaparitse ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande hari ibiti birebire bifite amashami y'icyatsi.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari imifuka ndetse yicaye ku mufuka imbere ye hari ibitaka byinshi bihasutse.

Abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse bambaye ingofero z'imihondo, bakora amashanyarazi umwe yuriye ari kureba ikibazo amasinga afite abandi barahagaze bari kumureba.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto nyinshi ndetse n'abagenzi. Uyu muhanda urimo imodoka ya ritico ndetse n'izindi ntoya minibisi. Inyuma yazo hari imodoka yitwa hoho itwara imicanga n'amabuye bifite ibara ritukura.

Umuhanda ugaragara igice kimwe cy'umuhanda, iruhande rwaho hari umuyoboro w'amazi ndetse hari na parikingi aho imodoka ziparika, haparitse imodoka ebyiri imbere yazo hari inyubako.

Umuryango ufunguye iruhande rw'uyu muryango hariho kizimyamwoto kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro gifite ibara ritukura ndetse umupira wayo ufite ibara ryijimye ariryo umukara.

Imbuga nini irimo ahantu hubakiye bakarabira ndetse iyi mbuga irimo imodoka y'umweru ndetse iri kugendamo umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro ya kaki.

Abantu bicaye bategereje guhabwa serivisi, hari umugore wicaye wambaye umupira w'icyatsi ndetse akeneye ibitenge, hari igikuta gifite amatafari ahiye.

Abantu bicaye ku ntebe ndetse n'abandi bari kugenda. Umwe wicaye ku ntebe wenyine yambaye imyenda y'abagororwa, ni umusaza ndetse hari undi uri kugenda ndetse wambaye ipantaro y'itisi, yambaye n'ingofero.

Kwa muganga hari abaganga babiri umugore n'umugabo, bambaye amataburiya y'umweru, umuganga umwe aricaye undi arahagaze, iruhande rwabo hari umurwayi uryamye ku gitanda.

Imodoka iparitse ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, yanditseho inyuguti zandikishijwe ibara ry'ubururu. Iyi modoka yitwa imbangukiragutabara iparitse ahantu hari inzu ifite amatafari ahiye.

Umugabo w'umwirabura ufite umusatsi mukeya, yambaye ikanzu ifite ibara ritukura ndetse irimo umweru, iyi kanzu ni iy'abacamanza, uyu mugabo bamufotoye areba imbere.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyenda y'abagororwa. Ari kureba imbere inyuma ye hari imodoka ifite ibara rijya gusa umweru.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikanzu y'abacamanza, ifite ibara ritukura ndetse n'umukara n'umweru, yambaye karuvati ndetse n'ishati y'ubururu.

Abantu bane b'abacamanza, abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bahagaze hagati, bambaye amakanzu afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru mu ijosi.

Abantu bicaye b'abagororwa bicaye ku ntebe, ni abagore n'abagabo iruhande rwabo hari abandi bantu bicaye n'abandi bahagaze bambaye imyenda isanzwe, iruhande rwabo hateye ibiti.

Abantu batanu, barimo abapolisi babiri bambaye umwenda w'akazi, ndetse uriho ikirangantego cy'u Rwanda. Bafashe mu maboko yabo umugabo wambaye amarineti ndetse wambaye ishanete iriho umusaraba.

Abantu batanu harimo abagore babiri ndetse n'abagabo bambaye amakoti atatu. Ndetse inyuma yabo hari ibyapa byiganjemo amabara y'ubururu.

Umugabo wambaye amarineti ndetse wambaye ikoti na karuvati, imbere ye hateretse icupa ry'amazi ry'inyange, ibumoso bwe hari abantu babiri bahicaye umugabo n'umugore.

Ikirango kirimo abantu bicaye ndetse n'abandi babiri bahagaze, imbere yabo hari ameza, imbere y'ameza hari abandi bahagaze ndetse imbere yabo hateye igiti. Iki kirango cyanditseho inkiko gacaca.

Icyapa cyamamaza ndetse kiburira, cyanditseho amagambo agira ati ''wari uziko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko, biririnde ubutabera ntibugurwa.''

Umugore w'umwirabura ufite ibisuko by'umukara, yambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru mu gatuza. Aya makanzu ni ay'abacamanza.

Umugabo w'umwirabura, yambaye ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'umweru ndetse yambaye ishati irimo karuvati, uyu mugabo ari kureba imbere.

Abantu bicaye mu bucaca ndetse hagati habo hateye igiti aba bantu bamwe bafite amakayi ni abunzi, izi n'inama zakorwaga ku gihe cya kera bari guca imanza.

Abantu batatu bahagaze imbere hari akabati bose bafasheho, umwe yambaye ishati y'umweru ndetsen'ipantaro y'ubururu undi yambaye ikanzu yabacamanza ifite ibara ry'umukara undi yazamuye akaboko yambaye ishati irimo icyatsi ndetse n'umweru.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye ikanzu y'abacamanza, ifite ibara ritukura ndetse irimo umukara n'umweru, ari kureba imbere.

Inama yateranye, abunzi bicaye ku ntebe, abaturage bicaye mu gacaca. Bafite imitaka. Ndetse hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'ishati y'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza. Hari umugabo uhahagaze ubatwikiriye umutaka. Imbere yabo hari abandi bicaye barambije ndetse hagati y'aba bantu bicaye, hari umugabo uhahagaze wambaye ishati y'umukara, wegamiye ku giti.

Umu polisi wambaye imyenda y'akazi, ifite ibara ry'ubururu bwijimye ari kwambika amapingu umugabo wambaye ikoti ndetse na marinete, iruhande rwabo hari umugore ndetse n'umusore bari kubareba.

Umugore w'umwirabura, udafite umusatsi na muke. Yambaye amarineti ndetse yicaye intoki ze zifatanye. Iruhande rwe hari umugabo uhicaye, wambaye imyenda iriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu batatu bicaye bose bambaye udupfukamunwa babiri ni abavoka, bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite ibara ry'umweru mu gatuza hagati yabo hicaye umugabo ni umugororwa yambaye imyenda y'iroza afite ikaye mu ntoki.

Kizimyamwoto, kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi ndetse kiba gifite ibara ritukura, iki gifite umupira w'ubururu.

Abantu babiri bambaye bikwije bambaye amasarubeti arimo amabara y'icyatsi ndetse bambaye ingofero z'umweru bari kumena amazi ku modoka, imodoka isa niyahiye.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi ndetse inyuma ye akaboko gafashe urupapuro ndetse ari gukoresha ikizamini cya perime, hari imodoka ebyiri imbere ye ndetse n'amakona afite ibara ritukura ndetse n'umweru.

Umupolisi uhagaze ku muhanda ndetse yambaye imyenda y'akazi, yambaye ijire iriho imirongo y'icyatsi, imbere ye hari moto ndetse ibumoso bwe hari amabisi yagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali.

Abanyeshuri bicaye bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki, imbere yabo hari umugabo wambaye isarubeti ufashe kizimyamwoto mu ntoki ze ari kubigisha uko ikoreshwa.

Abantu benshi bashungeye abantu babiri bari kuzimya inkongi, bambaye imyenda y'umukara ifite amabara y'icyatsi ndetse bambaye ingofero z'umweru, inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ritukura.

Imodoka zitagaragara neza. Harimo iy'umweru ndetse n'indi ifite ibara ry'umukara. Hejuru hari inzu ifite icyapa cyanditseho polisi. Giherereye ku Muhima. Aha ni ho polisi ikorera.

Imodoka iparitse imbere y'igorofa. Iyi modoka ihagazeho umupolisi wambaye imyenda y'akazi y'umukara ndetse iri gorofa rifite ibara ry'umweru, ndetse rikikijwe n'utwuma dufite ibara ry'umweru.

Kizimyamoto. Kizimyamoto ni igikoresho cyabugenewe kigenewe kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro. Gifite ibara ritukura ndetse gifite umupira bafataho bapuriza ufite ibara ry'umukara. Iyi kizimyamoto iriho ibipapuro byometseho.

Umuhanda nyabagendwa uherereye i Remera, urimo moto nyinshi zahagaze, zitegereje ko abagenzi bamara kwambuka na zo zigahabwa uburenganzira bwo kugenda, imbere yazo hari abapolisi bambaye imyenda y'umukara ndetse n'amajire arimo ibara ry'icyatsi.

Abanyeshuri benshi bahagaze imbere yabo hari abapolisi imbere y'aba bapolisi hari kizimyamwoto eshatu zifite ibara ritukura, aba banyeshuri bari kwigishwa uko bashobora gukoresha ubu butabazi bw'ibanze mu gihe habayeho inkongi.

Moto ziparitse zifite ibara ritukura imbere yazo hari umupolisi wambaye umwenda w'akazi ndetse wambaye jile ifite amabara y'icyatsi, yerekana ko akora mu muhanda ari gutunga agatoki.

Icyapa cya polisi kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'icya polisi ku ruhande rw'iburyo hejuru kiriho amagambo agira ati Nyarugenge ndetse.

Umuhanda urimo abapolisi bari gukoresha ibizamini bambaye umwenda w'akazi ndetse umwe azamuye akaboko undi aragatambitse akerekeza ku modoka iri imbere ye, uyu muhanda urimo amakona aciyemo umuhanda ibice bibiri.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri, imwe iri kugenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'indi iri kuza ifite ibara ry'umweru, hari umupolisi wambaye imyenda y'akazi, ni umukobwa, yamanitse akaboko k'iburyo ndetse atambika ak'ibumoso bigaragara ko ari guhagarika imodoka iri kuza.

Kizimyamwoto ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi, ifite ibara ritukura ndetse ifite umupira w'umukara bafata igihe bari kuzimya inkongi.

Kizimyamwoto ebyiri ni ibikoresho byifashishwa igihe habaye inkongi bari kuzimya. Izi kizimyamwoto zifite ibara ritukura ndetse zifite imipira y'imikara bafataho igihe bari kuzimya.

Iruhande rw'umuhanda hahagaze abapolisi babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse bambaye amakoti hejuru afite ibara ry'icyatsi ndetse iruhande rwabo hateretse imitaka ya eyateli.

Imodoka ya polisi ifite amabara y'umweru yanditsemo tarafike polisi. Iyi modoka kandi iriho ikirango cya polisi. Hejuru hariho udukubo dufite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse, iruhande rwaho hari imodoka y'umukara igaragara ku gice cy'inyuma.

Abantu bari kurahira akaboko kabo k'ibumoso kafashe ku iraporo ry'igihugu cy'u Rwanda rifite amabara atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ubururu burimo ukwezi.

Abantu bicaye mu nama ni benshi imbere yabo hari ameza ndetse ateretseho indangururamajwi n'amacupa y'amazi iruhande hari umugabo uhagaze uri kubagezaho ubutumwa nawe we imbere ye hari indangururamajwi.

Umugabo w'ummwirabura ufite umusatsi usokoje neza yambaye ikote ndetse na karuvati afashe ku idarapo n'ikiganza cy'ibumoso ndetse ikiganza cy'iburyo kirazamuye imbere ye hari indangururamajwi.

Abaturage benshi bari kwamamaza umukandida wa FPR ariwe Paul Kagame ,Paul Kagame ari gutambuka mu modoka, ndetse yazamuye ikiganza cye cy'iburyo yafunze ingumi, bisobanuye igipfunsi.

Abantu bane bahagaze abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, umugabo umwe afashe indangururamajwi arivuga ndetse undi mugore begeranye yambaye ishati y'umutuku.

Umukandida uri kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane. Ari mu modoka arahagaze ndetse yambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'icyatsi. Iruhande rwe hari abantu benshi bafite icyapa ariho cyanditseho tora.

Abantu bane bari kurahira bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, barifatishije akaboko k'ibumoso ndetse akaboko k'iburyo karazamuye, abagabo babiri n'abagore babiri.

Abantu bicaye mu nama ni benshi imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku hari kwaka amatara imbere yabo hari umunyamakuru ufite kamera imbere ye.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara ndetse bari mu nama, imbere yabo hari ameza akozwe mu giti ndetse afite ibara ry'umuhondo, hateretse indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugabo wambaye amarineti ufite agasatsi gakeya, yambaye ikoti ry'ubururu ndetse na karuvati n'ishati y'umweru, imbere ye hari icupa ry'amazi ry'Inyange ndetse n'indangururamajwi..

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi y'umukara ndetse yambaye amarinete ari kureba imbere, yambaye ikoti rifite ibara ry'umweru ndetse ririho uturabo.

Idarapo ry'ishyaka FPR inkotanyi iri darapo rigizwe n'amabara atatu, ubururu bwanditsemo ra, umweru wanditsemo pa n'umutuku wanditsemo fa bagasoma FPR.

Abantu benshi bicaye. Imbere yabo hari ameza agiye ariho amakayi ndetse ateretseho amacupa y'amazi y'inyange, imbere yabo hari umugabo uhagaze witwa Paul Kagame ari kubagezaho ibiganiro.

Abantu bari kugenda ni perezida wa Repubulika Paul Kagame, yambaye ikoti karuvati ishati y'umukara ndetse n'amarinete, ibumoso bwe hari madamu we nawe yambaye ikanzu yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'amarinete, inyuma ye hari abandi bantu.

Abantu bane batatu bicaye ku ntebe z'imikara ndetse n'undi umwe uhagaze wambaye ishati y'icyatsi ndetse mu ntoki ze afite indangururamajwi ari kuvuga, imbere yabo hateretse ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umweru ndetse na shokora.

Umukobwa w'umwirabura uri guseka mu ntoki ze afashe indangururamajwi ari kuvuga, yambaye amaherena y'umweru ndetse yambaye ikanzu ifite ibara ritukura.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'umupira w'umweru, uyu mugabo imbere ye hari indangururamajwi ihateretse ndetse inyuma ye hari abantu bahicaye.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ikoti ry'ubururu ndetse yambaye amarinete , imbere ye hari indangururamajwi , ahagaze ahantu muri sitade hahuriye abantu benshi.

Umugore wicaye, ufite umusatsi muremure w'umukara, ndetse yambaye rinete. Imbere ye hari ameza ateretseho amakayi, ndetse n'amacupa abiri y'amazi y'inyange.

Abantu bari kugenda barimo perezida wa repubulika Paul KAGAME yambaye amarinete ndetse n'ishati y'amaboko yatebeje. Iruhande rwe hari umumugabo wambaye ishati iciye amaboko y'umweru ndetse afashe agakapu mu ntoki.

Umugabo wambaye ishati iciye amaboko afashe indangururamajwi mu kaboko ke k'iburyo. Ndetse n'akadarapo gatoya gafite amabara y'umuhondo umwe ndetse n'icyatsi ,akandi kaboko k'iburyo karazamuye ari gupepera abantu , iruhande rwe hari abantu benshi.

Umuntu wicaye w'umugore, ari kureba hano, yambaye ishati y'umweru ndetse imbere ye hari ikayi y'umweru ndetse afite ikaramu mu ntoki ze, ari kwandika atareba.

Abantu benshi bicaye biganjemo abagore bambaye imyenda y'imituku ndetse n'imweruru bafite amadarapo y'ibirango bya FPR. FPR ifite ibirango bifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Abantu benshi bafite amadapo ya FPR, FPR ni umuryango ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, watanze umukandida ari we Paul Kagame anatorerwa kuyobora repubulika y'u Rwanda, FPR iri mu mabara atatu umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Umuhanda urimo moto zijya mu cyerekezo kimwe zifite amabara atukura, ku nkengero z'uyu muhanda hari icyapa kinini kiriho Perezida wa Repubulika Paul KAGAME. Iki cyapa cyanditseho tora KAGAME Paul ndetse hariho igipfunsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine abiri ndetse itwaye umugenzi. Imbere yayo hari imodoka ifite ibara ry'icyatsi n'umweru iri gusubira inyuma.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru inyuma harimo inka ndetse izi nka ziganjemo iz'umukara ndetse n'izifite amabara y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa, urimo moto, ifite umumotari uhetse umugenzi. Uyu muhanda hagati hawo harimo akarondarondo k'ubutaka gateyemo imikindo. ku rundi ruhande, harimo imodoka.

Mu rusisiro, mu rusisiro hari moto ihaparitse ifite ibara ry'umutuku ndetse ifite bateri ifite ibara ry'umuhondo iyi moto ni iy'amashanyarazi iteretseho cask ifite ibara ritukura ndetse imbere y'uyu muhanda hari kugendamo abantu.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa yagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Irikubizirikana n'imodoka igaragara ku gice cy'inyuma ifite ibara ry'umukara. Ndetse iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda uri kugendamo imodoka ndetse imbere y'izi modoka hari umumotari ndetse n'umunyonzi uhetse umugenzi iruhande rw'uyu muhanda hari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru ndetse iruhande hari imodoka ziparitse.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite ibara ritukura ndetse umumotari yambaye ijire ndetse na kasike ifite ibara ritukura, iruhande rw'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga moto ndetse n'imodoka, iruhande rw'uyu muhanda mu kayira k'abanyamaguru bari kunyuramo bagenda ndetse harimo uwambaye umupira utukura ndetse n'undi wambaye umupira wa shokora.

Ku muhanda nyabagendwa urimo imodoka zagenewe gutwara imizigo, harimo imodoka ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma harimo abantu. Iruhande haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru, igaragara ku gice cy'inyuma, harimo imifuka ndetse n'amakarito.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ry'umweru iyi modoka yitwa kwasiteri yagenewe gutwara abantu iruhande rw'umuhanda hari inzu iriho ibyapa byamamaza.

Umuhanda nyabagendwa, urimo igikamyo gifite ibara ry'umweru. Iruhande rw'uyu muhanda, mu gice cy'ibumoso, harimo umuyoboro w'amazi. Ndetse iburyo bw'uyu muhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa. Harimo moto ifite ibara ritukura ndetse itwaye umugenzi. Uyu muhanda urimo akarondorondo k'ubutaka gateyemo imikindo ndetse iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka, imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'umuhondo ku ruhande rwo hasi, ndetse inyuma yayo hari indi ifite ibara ry'umukara. Iruhande rw'uyu muhanda, hari umurongo urombereje wera.

Umuhanda urimo abanyamaguru ndetse n'amagare. Aya magare ahetse amakese afite amabara atukura ndetse iruhande rw'umuhanda haparitse moto ndetse hubatse n'amazu yiganjemo afite irangi ry'umuhondo.

Umuhanda urimo imodoka yagenewe gutwara imizigo, ni ikamyo iruhande rwaho hari ibiti bihateye ndetse birebire bifite amashami y'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ndetse n'imodoka, ku nkombe z'umuhanda hariho utuyira tw'abanyamaguru bari gutambukamo, hari ibiti biri iruhande n'inzira z'abanyamaguru.

Umuhanda urimo umunyonzi utwaye igare. ndetse yambaye ijire y'icyatsi ari kubisikana n'imodoka yitwa retiko itwara abagenzi mutara ndetse ifite irangi ry'umweru n'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka ifite ibara ry'umweru yagenewe gutwara imizigo. Iyi modoka iriho ibirango bya gaze, ndetse iruhande rw'uy'umuhanda hari umuyoboro w'amazi ndetse wubakishijwe amabuye.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite ibara ry'ubururu. Iyi moto ifite amapine atatu. Iyi moto iriho umushoferi, ndetse imbere y'iyi moto hari indi moto y'amapine abiri, iri kuza ibisikana.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana, imwe ifite ibara ry'umutuku ni nini yagenewe gutwara imicanga ndetse n'amabuye, indi n'imodoka ntoya ifite ibara ry'umweru, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka ziri kubisikana, harimo ikamyo ifite ibara ry'umweru ndetse harimo bisi igaragara ku gice k'inyuma, yagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, iruhande rw'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi mu mujyi wa kigali, iyi modoka iri kwaka amatara buji, ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwayo hari umugabo uhahagaze wambaye umupira utukura ndetse afite igikapu.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana. Imwe ifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'indi y'igikamyo ifite ibara ry'umweru n'ubururu. Iruhande rw'umuhanda, hari umugabo wambaye isarubeti, wikoreye umufuka.

Imodoka zagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, zifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, iyi modoka iragaragaraho ipine ry'umukara ndetse n'indi yanditseho mirongo itandatu.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru iyi modoka inyuma hicayemo umuntu ndetse iburyo bw'uyu muhanda hari kugenda abanyamaguru, ibumoso bw'umuhanda hari umuyoboro w'amazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto imwe, itwaye umugenzi, ibumoso bw'uyu muhanda hari akarondorondo kagabanyamo umuhanda kabiri, gateyemo imikindo, iruhande rw'uyu muhanda hari ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto itwara imizigo ifite amapine atatu, iyi moto ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma ifite akazu gafite ibara ry'umweru, iruhande rw'umuhanda hari umugore uhagaze ndetse afite indobo irimo ibisheke.

Imodoka ebyiri z'umweru zanditseho yego kabuzi, zifite ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'umuhondo, ziparitse iruhande rw'inzira y'abanyamaguru ndetse imbere yazo hari inyubako iriho ibyapa byamamaza.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa, ifite ibara ritukura yitwa hoho, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru ndetse iri kugendamo umugabo wambaye umupira w'umweru, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa ufite umuyoboro w'amazi ku ruhande. Uyu muhanda urimo moto ifite amapine atatu yagenewe gutwara imizigo ndetse irikubisikana n'imodoka ifite ibara ry'icyatsi y'abakerarugendo.

Imodoka iri mu muhanda, iri kugenda. Ifite ibirango bya rba. RBA n'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe itangazamakuru. Iyi modoka ifite ibara ry'ubururu, umweru, ndetse n'umuhondo. Iruhande rw'uyu muhanda, hateye ibiti.

Imodoka ifunguye yagenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, iyi modoka ifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru imbere ukinjira hari utwuma dufite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto y'amapine atatu igaragara ku gice cy'imbere, iyi moto ifite irangi ry'ubururu ndetse ku nkombe z'umuhanda hari kugenda umunyamaguru wambaye umupira w'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto imwe ifite ibara ritukura. Ndetse iriho umumotari wambaye kasike y'umuhondo. Ku mbibi z'uyu muhanda hari inzira nyabagendwa. Iruhande rw'iyi nzira hateye ubucaca ndetse hateye n'ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka y'ikamyo ifite ibara ry'icyatsi, iruhande rw'umuhanda hari umunyamaguru wambaye ijire bigaragara ko ari mu kazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka itwara abagenzi mumujyi wa Kigali ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwayo ku nkombe y'umuhanda hari kugenda umuntu wambaye ishati iciye amaboko.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikamyo .Iyi kamyo ihetse ibikoresho by'ubwubatsi ndetse ifite ibara ritukura ,n'ibara ry'umweru ku gice cy'inyuma ibumoso bw'uyu muhanda hari inzira y'amazi ndetse iburyo ku muhanda hari ibiti bihateye birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe ipakiye imifuka myinshi ndetse iyi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande ifite n'amabara y'icyatsi. Iyi modoka ibintu itwaye, ibitwikije ihema rifite ibara ry'ubururu.

Moto ifite amapine atatu ifite ibara ry'ubururu yicayeho umuntu wambaye itaburiya y'umuhondo inyuma yiyi moto haparitse imodoka nyinshi.

Abantu babiri bari kugenda umwe yambaye ishati y'amaboko maremare yayihinnye ndetse n'ikabutura y'umukara undi yambaye ishati y'umukara ndetse ahetse igikapu.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ni nini ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Imbere yayo hari abamotari batwaye moto ziganjemo izifite amabara atukura.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana imwe ifite ibara ry'umweru ndetse indi ifite ibara ritukura iruhande rw'umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'akazamuko.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine atatu, ndetse irimo imodoka ifite ibara ritukura itwara imicanga n'amabuye harimo ndetse n'indi modoka ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda nyabagendwa, ufite inzira y'abanyamaguru, ihagazemo umugore ufite indobo irimo ibisheke. Uyu muhanda urimo moto ifite amapine atatu, yagenewe gutwara imizigo. Ifite ibara ry'ubururu ndetse iruhande iri gusikana n'imodoka, ifite ibara ry'umweru n'iry'umukara.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana, imwe itwaye imizigo ifite ibara ry'umweru ndetse ifite umurongo w'icyatsi n'indi ifite ibara ry'umukara, iruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru ku gice cy'iburyo cy'umuhanda hateyeho ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe ifite ibara ry'umweru ndetse imbere yayo hari moto itwaye umugenzi, iyi moto ifite ibara ritukura. Iruhande rw'iyi moto hari igare ry'umunyonzi ndetse iruhande rw'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru, iruhande rwako hari umuyoboro w'amazi.

Mu mujyi ahazwi nko kwa Makuza harimo abantu benshi bari kugenda ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zabugenewe zateganyirijwe abantu kuruhukiraho, aha kandi hateye ibiti bitanga akayaga.

Ikibuga cya basiketi, Iki kibuga gifite ibara ritukura cyanditsemo amagambo n'ibara ry'umweru. Imbere hari inkangara batsindamo ndetse iruhande rw'ikibuga hateye ibyatsi ndetse hazitiwe n'urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa gikoreshwa kibuza imodoka guhita, iki cyapa gishushanyijemo imodoka ndetse gifite ishusho y'umweru n'umuzenguruko w'umutuku, iyi modoka iciyemo umurongo byerekana ko ibujijwe.

Icyapa giteye ku muhanda cyanditseho inyuguti ka, ga n'imibare rimwe, umunani, icyenda. Iki cyapa cyanditswe mu ibara ry'umweru ndetse inyuma yacyo hari ibiti.

Umuhanda nyabagendwa uherereye Kacyiru, harimo moto ndetse hari icyapa cyerekana yuko hari parikingi, aho imodoka ziparika ndetse munsi y'iki cyapa hari ikindi cyerekana amerekezo.

Icyapa cyerekana amerekezo. Igice cyo hejuru kirerekana gukomeza werekeza ku Kanyaru. I Huye, cyangwa i Muhanga. Icyapa cyo hasi gikata kirerekana yuko, kijya i Ruhango cyangwa Kinazi.

Icyapa kiri ku muhanda, iruhande rw'akayira k'abanyamaguru. Kirerekana gukomeza ujya Rugunga, gukata ibumoso ujya ku kibuga cy'indege, gukata iburyo ujya mu mujyi.

Icyapa giteye iruhande rw'umuhanda ku ruhande rw'iburyo, iki cyapa kirerekana ko imbere hari ikiraro kihubatse ndetse kiri gucaho imodoka, iruhande rw'aho hateye ibiti.

Icyapa cyo mu muhanda. Iki cyapa gifite ishusho y'umweru yera ndetse ni icya mpande eshatu gifite umuzenguruko ufite ibara ritukura ndetse gifashe ku cyuma.

Ikimenyetso cyo mu muhanda cyerekana ko abanyamaguru bagomba gutambuka gifite ibara ry'icyatsi, iyo ibara ry'icyatsi rivuyemo hakajyamo umutuku biba bivuze ko abagenzi bahagarara ibinyabiziga bigatambuka.

Icyapa kiranga amerekeza cyanditseho KG mu nyuguti nkuru n'imibare gatanu, zeru, rimwe, giteye ku muhanda urimo imodoka yitwa kwasiteri, ifite ibara ry'umweru, ndetse iciyeho imirongo y'icyatsi, hariho na moto iruhande rwayo.

Icyapa cyerekana aho abanyamaguru bambukira, gifite ishusho y'umuhondo irimo umugabo uri kwambuka ndetse gifite mpande eshatu zizengurutswe n'ibara ritukura.

Umuhanda ugaragara agace gatoya, ndetse uriho umurongo urombereje ku ruhande, uyu muhanda, iburyo bwawo hari icyapa cyanditseho p iciyemo umurongo w'umutuku, byerekana ko nta parikingi ihari.

Umuhanda urimo abantu bari mu masiganwa y'amagare, iyi ni turu di Rwanda. Ku ruhande rw'umuhanda hari abantu benshi bashungeye baje kwirebera amagare uko asiganwa, ndetse iruhande hateye ibiti ndetse iburyo bw'uyu muhanda hari icyapa cyanditseho Muhanga.

Icyapa cyo mu muhanda, iki cyapa gikoreshwa nk'ikimenyetso cyereka abagenzi cyangwa ibinyabiziga ko byemerewe kugenda, iyo iki cyapa cyangwa iki kimenyetso kiri mu ibara ry'icyatsi ibinyabiziga byemererwa kugenda iyo kiri kwaka umutuku abanyamaguru baragenda.

Icyapa gifite ishusho y'umweru ndetse gishushanyijemo umuntu uri kugenda. Iki cyapa gifite mpande eshatu zizengurutswe n'ibara ry'umutuku. Iki cyapa cyerekana aho abagenzi bambukira.

Moto iri kugenda mu muhanda ifite ibara ritukura ndetse uyitwaye na yambaye kasike itukura, iri kugendera iburyo bw'umuhanda, hakurya y'umuhanda hari inzu iteye amarangi y'umweru.

Umuhanda w'ibitaka urimo imodoka ziparitse kuruhande ndetse harimo moto iri kugenda ihetse umugenzi iruhande rw'iyi moto hari umugenzi ufite umwana mu mugongo ndetse ufashe umutaka utukura.

Inzu y'igorofa igaragara ifite ibara ry'umuhondo munsi ifite imiryango ifunguye ndetse iriho n'ibyapa byamamaza iki cyapa gifite ibara ritukura.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ziri kugenda ndetse n'izindi ziparitse imbere y'inzu ifite imiryango ifunguye, iruhande rw'uyu muhanda w'ibitaka hateye ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana imwe ifite ibara ritukura ndetse n'indi ifite ibara ry'umweru haruguru y'umuhanda hateye ibiti birebire.

Umuhanda ugaragara igice kimwe ndetse imbere hari umuntu uri kugenda, yambaye ipantaro y'umukara, inyuma ye hari ibyapa byamamaza byanditseho eyateli.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka z'amakamyo ziri ku murongo, ndetse igice cyo hino kirimo moto iri kugenda, iruhande rw'umuhanda hari borudire zisize irangi ry'umweru n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa uri kwambukamo abagenzi. Ndetse hari imodoka na moto bitegereje ko abagenzi bamara kwambuka nabyo bikagenda. Iruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi ndetse birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga, ari byo moto ndetse n'amagare uyu muhanda urimo akarondorondo k'ubutaka gateyemo ubucaca ndetse gateyemo n'umukindo.

Umuhanda nyabagendwa ufite ibisate bibiri bijya mu cyerekezo kimwe, uyu muhanda urimo umurongo ucagaguye ndetse wera.

Umuhanda nyabagendwa, uri munsi y'ikiraro, hari gutambukamo igare rihetse akabati, ndetse hejuru y'iki kiraro naho hari umuhanda, aha ni ku kiraro aho bita ku Kinamba.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ry'umweru, uyu muhanda uri munsi y'ikiraro. Iki kiraro na cyo hejuru gifiteho undi muhanda ukikijwe n'utwuma dufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa ufite ikorosi rikata iburyo ndetse aho umuhanda ukatira hari icyapa cyamamaza ikigo cy'amashuri iki cyapa gishushanyijeho umwana uri kugenda ajya ku ishuri.

Umuhanda nyabagendwa ufite ikorosi rikata iburyo, uyu muhanda ufite akayira k'abanyamaguru iruhande ndetse ukikijwe.....

Umuhanda uri munsi y'ikiraro urimo moto ziri kujya mu cyerekezo kimwe ndetse hejuru y'iki kiraro naho hari umuhanda. Iki kiraro gifite inkingi nini cyane zikomeye.

Umuhanda nyabagendwa, urimo moto y'amapine atatu ndetse na moto ebyiri z'amapine abiri. Zitwaye abagenzi. Hari umugenzi uri gusunika igare ndetse ari kwambukira aho abanyamaguru bagenewe kwambukira.

Umuhanda ufite ikorosi, ugenderwamo mu byerekezo bibiri bitandukanye, igisate kimwe kirimo ibyerekezo bibiri ndetse n'ikindi. iruhande hari aho imodoka ziparika by'akanya gato mu gihe zigiye gufata abagenzi.

Ku muhanda ahantu hagenewe guparika aha haparikwa n'imodoka ndetse na moto n'amagare mu gihe igiye gufata abagenzi cyangwa habayeho igihe cyo kuruhuka.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ziganjemo izitukura ndetse n'imodoka ifite ibara ritukura, iruhande rw'uyu muhanda hari ibyatsi ndetse mu muhanda harimo ibimenyetso bikoreshwa mu muhanda, biri kwaka itara ry'icyatsi, ryemerera ibinyabiziga guhita.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ndetse na moto uyu muhanda urimo dodani aho imodoka zigera zikagabanya umuvuduko ndetse iburyo bw'umuhanda hari icyapa cyerekana ko hari ikigo cy'amashuri.

Imodoka iri mu muhanda ndetse iri gukata hari indi iri guturuka inyuma yayo igiye gukomeza hakurya y'umuhanda hari umugenzi uhagaze utegereje ko imodoka zihita akabona kwambuka.

Umuhanda nyabagendwa uririmo moto imwe itwaye umugenzi irimo n'imodoka y'ikamyo itwara imizigo, ifite ibara ry'umweru iburyo bw'uyu muhanda hari akazu gafite ibara ry'ubururu abagenzi bicaramo bategereje ikinyabiziga kibatwara.

Umuhanda nyabagendwa urimo itara rifite ibara ry'icyatsi, ryerekana ko ibinyabiziga bigomba gutambuka ndetse iyo ryatse umutuku ibinyabiziga birahagarara abagenzi bagatambuka.

Umuhanda nyabagendwa. Urimo moto, ndetse zihetse abagenzi. Moto imwe igeze aho abanyamaguru bagenewe kwambukirwa. Haciyemo imirongo ifite ibara ryera.